Urujya n'uruza rw'abantu b'ingeri zitandukanye bari ahantu ku mugezi, barikuvoma amazi, bafite ibivomesho bitandukanye. Hari abari kuvomera mu ndobo, hari n'abafite ibijerekani.

Ibijerekani byinshi bitondetse ahantu ku mugezi, abantu bari kuvoma amazi, hari n'abandi bahagaze iruhande rw'umugezi kandi uwo mugezi ukikijwe n'ibiti byinshi.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagore hari n'abana, imbere y'abo bantu hari umugore uhicaye hari n'undi ufashe ikaramu n'ikayi uri kwandika mu kayi kuri ameza ateretseho n'icupa ry'amazi.

Abasore benshi bahagaze, abandi babiri baricaye n'undi mukobwa umwe wicaye, abenshi bambaye amatabu y'umweru abandi bambaye imyenda isanzwe, ariko bose bambaye amakarita mu ijosi, inyuma yabo hari igipapuro gishushanyijeho abandi bantu bambaye amataburiya ndetse bambaye n'amakarita mu ijosi.

Abantu batandukanye bari mu cyumba cy'inama, imbere yabo bafite amakayi n'amakaramu ndetse n'amacupa arimo amazi, imbere yabo na none hari ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa n'ibindi.

Umugabo n'umugore, bahagaze imbere y'inzu, umugore yakenyeye igitenge, umugabo yambaye ishati n'isarubeti y'ubururu, uwo mugabo afashe igipapuro gishushanyijeho abana babiri, umuhungu, n'umukobwa.

Umukecuru yambaye akantu mu ijosi gafite amabara atandukanye ibara ry'umukara, umuhondo n'umutuku wijimye, yambaye indorerwamo z'amaso akikijwe n'abana benshi bose barishimye cyane bari guseka.

Umwana w'umukobwa ari kuvoma amazi ku mugezi, arunamye arishimye cyane. Kuri uwo mugezi ukikijwe n'amashyamba menshi, hari ibiti bitoshye biri aho hafi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye, harimo abagore, harimo abagabo, harimo n'umupolisi, muri abo bantu abenshi bambaye imipira isa, hari abana bicaye, hari n'abandi bantu bari kubitaho, bari kubaha ibyo kunywa mu bikombe.

Abana benshi bicaye ahantu ku turago, bamwe bambaye imipira y'ubururu abandi bambaye imipira y'umuhondo, inyuma kuri utwo dupira hari amagambo yanditseho, hanyuma muri abo bana hari abandi bagore babiri bicaye n'abandi bagabo bari imbere yabo.

Abantu benshi batandukanye b'ingeri nyinshi, bicaye mu cyumba k'inama, bicaye ku ntebe nziza z'ubururu, harimo umuntu uri kugenda bafotora ndetse na none hagati yabo hari ameza yorosheho igitambaro cy'umukara, kuri ayo meza hari amakaye ndetse n'amacupa y'amazi.

Abagore benshi b'ingeri zitandukanye bose bafashe abana babo, hari abari konka n'abandi batari konka bicaye imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, iyo nzu ikoze neza cyane.

Abantu batandatu baricaye, harimo batatu b'abagabo na batatu b'abagore, bose bambaye udupfukamunwa. Harimo abari gukoresha indangururamajwi, inyuma yabo hari igipapuro cy'ubururu cyandikishijwe ikaramu y'umweru.

Abantu benshi batandukanye harimo abagore n'abana, baricaye bicaye ku ntebe zitandukanye. Ariko abagore bafashe abana, bari kubatera inshinge kuko hari umuntu wambaye imyenda y'umweru ubishinzwe, uri kugenda ubatera inshinge.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye harimo : abagore, abagabo, abasore, abakobwa; abenshi bambaye imipira isa ndetse abandi bambaye n'utujire; hari n'abandi bambaye imyenda isanzwe ariko nibo bake; hari n'umupolisi umwe, bamwe barunamye bari gutera imboga.

Abantu benshi batandukanye bari ahantu umugezi, umwana afashe ikijerekani ari kuvoma amazi. undi mugore ari kumuvomera. Abandi bantu bahagaze iruhande rw'uwo mugezi, bari kwitegereza abo bantu bari kuvoma amazi. Bahagaze ahantu imbere y'urutoki.

Umugore afashe umwana akaboko bari ku mugezi, kuri uwo mugezi hari n'abandi bana benshi, ku mugezi kandi na none hari ibikoresho byinshi byo kuvomeramo amazi, hariho amabase, indobo ndetse n'ibindi.

Umugore yambaye agapfukamunwa ari kumwe n'umwana muto wambaye imyenda y'ishuri, uwo mugore ari kumukarabya intoki, iruhande rwabo hari ishyamba rinini cyane ry'ibiti bitoshye.

Umugore akenyeye igitenge ateze n'igitambaro yikoreye indobo y'umutuku afashe n'indi mu ntoki y'umuhondo ari kugenda yerekeza mu rugo ruri ahantu mu ishyamba ariko iryo shyamba harimo ibyatsi byumye kubera kubura imvura.

Abaganga batandukanye, hari abambaye amataburiya y'umweru, hari n'abambaye amataburiya y'ubururu, bambaye amakarita mu ijosi, baricaye bari gutera abantu inshinge, imbere yabo ku meza hari ibikoresho bakoresha mu buvuzi, harimo imiti, harimo inshinge ndetse n'ibindi.

Umwana ari gukaraba intoki ahantu ku mugezi arishimye cyane ari guseka, kuri uwo mugezi hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo menshi atandukanye. Hari ayandikishije ikaramu y'umukara, hari n'ayandikishijwe ikaramu y'umutuku.

Icyumba bavuriramo abarwayi barwaye amenyo kirimo intebe abarwayi bicaraho ariko nta muntu urimo harimo n'ibindi bikoresho byinshi nka mudasobwa ndetse n'ibindi byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Abantu benshi cyane b'ingeri zitandukanye, bambaye imyenda y'umweru hejuru, hasi bambaye imyenda itandukanye, barasutamye ahantu, ku butaka, inyuma yabo hari igipapuro kiriho amabara atandukanye.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu cyumba, imbere yabo hari abantu bari gutanga ikiganiro bicaye ku ntebe nabo iruhande rwabo hari amazi hagiye hateretse amacupa y'amazi.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe, harimo n'umuntu ushinzwe umutekano, wambaye imyenda y'icyatsi, bicaye imbere y'inyubako iteye irangi ry'ubururu, imbere y'inyubako na none hari imodoka ihagaze ndetse mu ibaraza y'iyo nzu hari abantu benshi bahicaye.

Umugabo n'umugore bicaye ku gatebe, umugore yambaye agapfukamunwa, afashe n'ikayi ari kwandika, inyuma yabo hari igipapuro cyanditsweho amagambo ngo "SIDA iracyahari, duhaguruke tuyirwanye."

Umwana w'umukobwa utari muto cyane ari mu rugero, arimo arakaraba intoki, ari gukarabira ahantu mu ibase, ku mugezi uri aho ngaho, umugezi wubakiye wegeranye n'inzu.

Umugore afashe ikijerekani ari kuvoma ku mugezi, uruhande rwe hari umwana uhagaze nanone ku rundi ruhande rwo hirya hari akandi kana gato gahari, inyuma y'uwo mugore uri kuvoma amazi hari ishyamba ry'ibiti bihari.

Umwana w'umunyeshuri, yambaye ijipo y'ubururu, yambaye n'ishati y'umweru arunamye, imbere ye hari indobo y'icyatsi ihari, inyuma ye hari amashuri menshi atandukanye.

Abantu bicaye mu cyumba, bicaye bari kurebana, hagati yabo hari ameza, kuri ayo meza harambitseho terefone, amacupa y'amazi, mudasobwa, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bambaye amataburiya y'ubururu, bamwe baricaye, abandi barahagaze, bamwe bicaye mu ihema ry'umweru, abandi bicaye hanze yaryo.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bambaye imipira y'umweru, abandi bambaye imipira y'ubururu, bambaye n'ingofero z'umweru harimo n'undi wambaye ingofero y'ubururu, bafashe igipapuro cyanditsweho amagambo ngo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura.

Umwana afashe ubujerekani kuvoma bubiri ari kuvoma, undi mwana ari iruhande rwe ari kumureba ukuntu ari kuvoma n'umukobwa uri kubavomera uri kubafungurira amazi, hirya hari n'undi mumama uri kugenda, umugezi ahantu uri, uri ahantu nko mu ishyamba ndetse na none kuri uwo mugezi hari isuka irambitse iruhande rw'uwo mugezi.

Abantu batanu bambaye imipira isa, yanditsweho ijambo ngo shora neza, muri zabo bantu bambaye ingofero zisa bafunze igipfunsi hejuru.

Abantu bane, bicaye mu cyumba, babiri ni abagore, abandi babiri ni abagabo, bamwe bari gukoresha mudasobwa, nanone imbere yabo, hari amacupa ateretse ku meza. Umwe muri bo, ari gukoresha indangururamajwi.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, harimo abazungu, abirabura, abagore abagabo. Bicaye ahantu mu cyumba cy'inama. Imbere yabo, hari ameza ariho amakayi n'amacupa arimo amazi.

Umwana ari kuvoma ku mugezi. Ari kuvomera mu gikombe cy'icyuma. Kuri uwo mugezi hariho imigezi ibiri iri kuzana amazi. Ariko ari kuvomera ku mugezi umwe. Uwo mwana arishimye cyane.

Umwana mutoya, afashe isabune mu ntoki, ari gukaraba intoki, hari n'undi muntu ufashe igikombe kirimo amazi, ari kumusukira amazi, ngo akarabe intoki.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye harimo abagore, abagabo, abakecuru n'abasaza, bamwe baricaye abandi barahagaze, muri abantu benshi ahantu bari hariho idarapo ry'igihugu, hari n'amahema y'umweru yubatswe aho ngaho, hari n'indi modoka y'umweru ihari.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kuvoma amazi, bamwe barahagaze abandi bari kuvoma. Inyuma yabo hari urutoki rw'insina ndetse n'ibindi biti bihakikije.

Inzu itangirwamo serivise z'ubuvuzi, harimo abantu babiri, umwe n'umugore wicaye, undi ni umugabo uhagaze, muri iyo nyubako harimo intebe ziriho ubusa zitariho abantu, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa n'ibindi, muri iyo nyubako na none hari ifoto y'umugabo wambaye ikote imanitse hejuru.

Abana b'abakobwa babiri, umwe ari gukorera undi indobo, inyuma yabo gatoya hari ishyamba rigari cyane, nanone hari n'indi nzu y'amatafari iri iruhande rw'iryo shyamba.

Abagore bahagaze ahantu ku mugezi bavomeraho amazi, abagore barahagaze batonze ibijerekani ku mugezi. Kuri uwo mugezi hari undi muntu uhahagaze, ni umugezi ufite irangi ry'ubururu n'ahandi hantu hateye umucanga.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bicaye imbere y'inyubako iteye irangi ry'umweru, bose bicaye ku ntebe, bafite amakayi bari kwandika, imbere yabo hari umugabo uri kubaganiriza wambaye itaburiya y'umweru.

Inzu irimo abantu benshi b'ingeri zitandukanye, hari abahagaze, hari n'abandi bantu bicaye, imbere hari umugore uhagaze wambaye ibitenge ufashe n'umwana, afashe n'ikayi mu ntoki.

Umugore afashe ijerikani ari kuvoma ku mugezi, inyuma ye hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo, na none inyuma y'icyo cyapa hari intoki nyinshi, hari n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu, hari abagabo hari abana, bose bari ahantu ku mugezi bari kuvoma amazi. Hari abari kuvoma bakoresheje indobo abandi bakoresheje ibijerekani, inyuma yabo na none hari ibiti bitoshye.

Abantu benshi cyane b'ingeri zitandukanye, bicaye ku ntebe, bicaye ku rubaraza rw'inzu, abenshi bafite impapuro mu ntoki zabo.

Umugabo wirabura arishimye cyane ashikamirije ku kijerekani ari ku umugezi yagiye kuvoma amazi, inyuma ye hari ibyatsi byinshi bitoshye, nanone inyuma y'ibyo byatsi hari inyubako zihari.

Umugezi uri kuvomwaho n'abantu babiri batandukanye, umwe ni umugabo undi ni umugore. Umuntu uri kuvomesha kuri uwo mugezi yambaye ijire y'umuhondo. Umugezi kandi na none ukikijwe n'ishyamba.

Abana bishimye cyane b'abanyeshuri bicaye mu ishuri bari kurya, bambaye imyenda y'ishuri, inyuma yabo hari ikibaho cyandikishije ingwa y'umweru.

Abana b'abanyeshuri, harimo abakobwa n'abahungu, bari ku mugezi bamwe bari gukaraba intoki, abandi bari koga ibirenge. Imbere yabo ku mugezi, hariho indobo zo kuvomesha, ndetse n'akajerekani.

Ku ruhande rw'amazi ari gutemba hahagazeho umukobwa ari kuvoma amazi, hirya ye gato hari n'undi mwana muto wicaye, ayo mazi atemba akikijwe n'ishyamba ririmo ibiti bitandukanye.

Abagore ndetse n'umwana umwe bari ahantu k'umugezi, abagore babiri bari kuvoma amazi bateruye indobo y'ubururu irimo amazi, abandi bahagaze inyuma y'uwo mugezi bari kureba abo bagore baterura indobo y'amazi.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, harimo abana, harimo abakuru, bari ahantu ku mugezi bari kuvoma amazi, ikigaragara cyo ni uko amazi yabuze, hari abantu benshi batonze imirongo, hirya y'uwo mugezi hari andi mazu ahakikije n'ibiti birebire.

Ingeri z'abantu benshi batandukanye, harimo abirabura n'abazungu, abagabo n'abagore, bamwe baricaye abandi barahagaze, bahagaze imbere y'igipapuro cy'ubururu.

Umugezi uriho abana benshi bambaye imyenda y'ishuri bari gukaraba intoki barishimye cyane, imbere y'uwo mugezi hariho inyubako yabakijijwe amatafari ahiye.

Umugezi w'amazi. Uri kuvomwaho n'abantu batandukanye. Hari abafite ubujerekani bari kuvoma, hari n'abandi bantu bahagaze. Inyuma y'abo bantu, hari imisozi miremire.

Abagore batatu, bari ahantu ku mugezi, umwe afashe indobo ari kudaha amazi, abandi babiri bari kumuvomera, umwe yambaye isengeri, akenyeye n'igitenge, abandi bakenyeye ibitenge.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bicaye mu ntebe z'umweru, bicaye mu ihema rifite ibitambaro by'amabara y'ubururu, icyatsi n'umuhondo, muri abo bantu harimo umupolisi umwe, harimo n'abandi bantu bitwikiriye imitaka n'undi muntu ufite indangururamajwi uri imbere yabo uri kubaganiriza.

Abantu b'ingeri zitandukanye bambaye ubupfukamunwa butandukanye, bamenya'imipira itandukanye, bamwe bambaye imipira y'icyatsi, abandi bambaye imipira y'umweru, baricaye bicaye ahantu heza, imbere yabo hagiye hariho uducupa tw'amazi ndetse bafite n'amakayi n'amakaramu.

Inzu ikoremo ubuvuzi, hari umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, yambaye indorerwamo z'amaso, yambaye n'agatambaro mu mutwe, ari gupima umusaza wicaye aho ngaho imbere, ari kumupima umuvuduko.

Abana b'abahungu babiri bari ku mugezi, bari gukaraba intoki kuri uwo mugezi. Inyuma yabo gato hari amazi atemba. Nanone inyuma yabo hari ibyatsi byumye, kubera kubura imvura.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, harimo abazungu, harimo abirabura, bicaye mu cyumba cyiza, imbere yabo ku meza, hagiye hari udukayi n'amakaramu, hari n'amazi ateretse ku meza, hari n'indabo zitondetse ku meza.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bambaye imyenda y'umweru hejuru, bambaye n'amakarita mu ijosi, imbere yabo hagati hari umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, ni umuzungu, afashe babiri muri abo ku rutugu.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye, muri abo bantu imbere hari imodoka ihagaze itwara abarwayi, hari n'amahema yubatswe aho ngaho, hari n'indi nzu nini cyane ifite amabati ashaje ndetse imbere y'iyo nzu hariho idarapo ry'igihugu.

Umugore ambaye agapira karimo uburongo, akenyeye igitenge yambaye n'ingofero y'ubururu, ahagaze ahantu ku mugezi afite ikijerekani ari kuvoma amazi, inyuma ye hari imisozi miremire muri ako gace ahagazemo

Abantu batari benshi kandi batari bake barahagaze, bahagaze ahantu mu cyumba, hejuru y'abo bantu ku nzu handitseho amagambo avuga ngo uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Abantu batatu bicaye ku ntebe, babiri umugore n'umugabo bicaye bafatanye, umugabo afashe umugore ku nda, undi n'umugore wambaye itaburiya y'ubururu, ari imbere yabo ari kubereka igipapuro afashe mu ntoki

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo, abagore, abazungu n'abirabura bari imbere y'inyubako nziza cyane iruhande rwabo iburyo hari idarapo ry'igihugu.

Ingeri z'abantu benshi batandukanye harimo abazungu abirabura abagabo n'abagore, bamwe muri bo bambaye amakarita y'akazi mu ijosi abandi ntayo bambaye, bahagaze imbere y'igipapuro cy'ubururu cyandikishijweyuguti z'umweru.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye harimo abagabo abagore'abakobwa n'abasore bamwe bambaye matabriya y'umweru, abandi udupira tw'umweru, abandi bambaye imyenda isanzwe ariko abenshi iyo bahuriyeho bambaye amakarita y'akazi mu ijosi bahagaze imbere y'igipapuro gishushanyijeho abandi bantu bambaye amatabu ndetse handitse n'ijambo ngo nyabageni.

Abantu benshi bari gukoma amashyi bishimye cyane bambaye amataburiya, bambaye n'amakarita mu ijosi, imbere yabo hari umugabo w'inzobe wambaye ikoti ry'umukara, wambaye n'indorerwamo z'amaso uri kubaganiriza, hirya yabo hari igiti gitoshye kinini bahagaze imbere y'ibyo bitaro bya Mayange byiza cyane.

Abantu babiri bari mu nzu bicaye ku ntebe ni umugore n'umugabo, imbere yabo hari ameza arambuye igitambaro cy'umuhondo atetseho n'icupa rirerire ry'amazi.

Abana b'abanyeshuri, bamwe bambaye imyenda y'ishuri, abandi ntayo bambaye, ni abana basa neza, bafite isuku, ikigaragara cyo barishimye kuko bari guseka cyane.

Abagore bane bicaye ku ntebe imwe, muri abo bagore harimo umwe wambaye ikarita mu josi afashe n'urupapuro afashe n'ikaramu, imbere yabo bagore hari umugabo umwe wicaye, wakuyemo inkweto. Inyuma yabo gato hari urutoki ruteyeyo, hari n'ibiti byinshi.

Abagore batandukanye, harimo n'umugabo umwe, baricaye bicaye ku ntebe, imbere hari umugore wambaye agapfukamunwa ku kuboko ndetse yambaye n'ijiri y'ubururu.

Abantu, batari benshi cyane, bahagaze imbere y'inyubako ku rubaraza, uruhande rw'abo bantu hari igipapu kimanitswe, gishushanyijeho abantu bicaye bari kuganira, kandi nanone muri abo bantu bahagaze imbere y'inyubako, harimo abagore, harimo abagabo, ikigaragara cyo barishimye.

Abagore batatu bose bateze ibitambaro mu mutwe bakenyeye n'ibitenge, babiri bafashe udukoni mu ntoki, undi umwe afashe igikoresho bakoresha bayora itaka, inyuma yabo hari imisozi miremire.

Imodoka itwara imizigo y'umweru ihagaze ahantu mu mucaca, iruhande rwayo hari udutebe twiza tugeretse, hari n'amahema yubatse aho nga ku uruhande ariho igitambaro kirimo amabara y'icyatsi n'ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Umugabo w'inzobe, yambaye ipantaro ya kaki, ishati y'amabara, n'isaha ku kuboko, arishimye cyane, ahagaze iruhande rw'icyapa cy'umweru, cyandikishijwe inyuguti z'umukara, hejuru nko ku ruhande rw'icyo cyapa, hariho ikirangantego cy'u Rwanda.

Abantu babiri, umugabo n'umugore bicaye ahantu mu cyumba, umugabo yambaye agapfukamunwa, afashe ikaramu ari kwandika, umugore ari gukoresha indangururamajwi, afite n'imisatsi miremire y'umukara, yambaye n'indorerwamo z'amaso, imbere yabo ku meza hateretseho amacupa arimo amazi.

Abantu bicaye mu matsinda, bari mu matsinda atandukanye, bicaye ku ntebe z'umweru kandi abenshi bambaye ubupfukamunwa. Imbere yabo hari imodoka ndende y'umweru.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye baricaye bicaye ku ntebe nziza zisa umukara, muri iyo nyubako bicayemo inyubako nziza cyane, irimo amatara ari kwaka, imbere y'abo bantu hariho umuntu umwe uri kubaganiriza.

Umugabo yambaye imyenda icitse isa nabi afite n'umusatsi mwinshi n'ubwanwa bwinshi cyane, afashe umuneke mu ntoki ari kugenda awurira mu muhanda. Muri uwo muhanda wa kaburimbo harimo moto n'imodoka ndetse n'ibiti bikikije uwo muhanda.

Abantu batari benshi cyane, harimo abagore n'abagabo ndetse hagati harimo umupolisi umwe, ahantu bahagaze inyuma yabo hariho ibipapuro bimanitseho by'ubururu, hari n'ikindi gipapuro cy'umutuku cyanditsweho ngo Kacyiru.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye imyenda y'ishuri, barishimye cyane bamanitse amaboko, inyuma yabo hari idarapo ry'igihugu na none inyuma hari ishyamba rinini ry'ibiti byinshi bitandukanye.

Abantu b'ingeri zitandukanye, baricaye, bicaye ku ntebe ari batatu, imbere yabo hari ameza, bambaye ubupfukamunwa bari gukoresha telefone, impande yabo hari abandi bantu bicaye mu ihema ry'umweru rifite ibara ry'icyatsi nko hejuru.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, harimo abagore, bamwe baricaye abandi barahagaze, inyuma yabo hari igipapuro kiriho amabara atandukanye, hariho ibara ry'umutuku n'irindi bara ry'umweru, kuri icyo gipapuro nanone handitseho amagambo atandukanye.

Abagore babiri baricaye, umwe ateruye umwana mu ntoki, undi afashe terefone mu ntoki afite n'igikoresho bakoresha bapima umuriro, ari kukereka uwo mugore uteruye umwana.

Umugabo mwiza cyane, yambaye neza, yambaye n'indorerwamo z'amaso, ahagaze ahantu mu busitani bw'indabo, inyuma ye hari inzu nziza cyane, yubatswe mu buryo bwiza, impande y'umuryango w'iyo nzu, hari ibiti bibiri, birebire byiza.

Abantu benshi cyane b'ingeri nyinshi zitandukanye. Harimo abagore, abagabo. Harimo n'abapolisi n'abandi bantu bakomeye. Inyuma y'abo bantu hari igishushanyo kinini kiriho ikirangantego cy'u Rwanda.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi butandukanye, ni inyubako nziza cyane, imbere hirya y'umuryango iburyo n'ibumoso, hateyeyo indabo ndende cyane nziza ndetse nanone ku ruhande rumwe, hari igiti kirekire cyane.

Abagore babiri biteye imyenda, bari kumwe n'akandi kana gatoya, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari abandi bantu batatu bahicaye, bari kubaganiriza.

Umugore wambaye umwenda w'umweru, aricaye yifashe mu mutwe, afite imisatsi iboshye, yakojejemo intoki, arunamye, afite n'inzara nziza cyane.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye harimo abazungu n'abirabura, hari abagore n'abagabo, hari abambaye ubupfukamunwa n'abatabyambaye barishimye cyane bari gukoma amashyi bahagaze, ku meza hariho amacupa arimo amazi.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri, bari mu ishuri bafashe uburoso bw'amenyo babushyize hejuru, ndetse bari kumwe n'umwarimu wabo afashe ikaramu mu ntoki.

Umuganga yambaye itaburiya y'umweru, yambaye n'agapfukamunwa k'umweru ndetse yambaye n'indorerwamo z'amaso, afashe ikaramu ari kwandika mu gitabo impande ye ku meza hari ibikoresho byinshi bakoresha mu buvuzi.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo abaganga n'abaturage, bari ahantu iruhande rw'umuhanda, imbere yabo hari ihema ry'umweru ririmo n'igitambaro cy'ubururu, ku ruhande hari n'amatara meza cyane yaka n'ijoro, hari n'ibiti byinshi cyane byiza n'ibyapa biri iruhande rw'umuhanda.

Umugore n'umwana we, umugore afite imisatsi miremire y'umukara n'umwana we afite imisatsi miremire myiza, bombi bambaye udusengeri tw'umweru bafashe uburoso bari koza amenyo.

Abagore babiri bicaye ahantu mu cyumba kiza, umugore umwe afashe urupapuro ari kurwekana undi afite urupapuro ari kurwandikaho, imbere yabo hari ameza yorosheho igitambaro cy'ubururu, kuri ayo meza harambirwaho telefone n'amazi mu icupa.

Abagabo babiri bambaye ubupfukamunwa n'indorerwamo z'amaso, imbere yabo hagati hari umugore uryamye ku gitanda bari kumukura amenyo.

Umuganga yicaye ku ntebe nziza y'icyatsi ,yambaye taburiya y'akazi y'umweru afite ikaramu ku mufuka witabuwe yambaye. Inyuma ye hari igitanda kiryamaho abarwayi muri icyo cyumba arimo harimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo n'umugezi bakarabiraho intoki.

Umuganga uvura amenyo. Yambaye imyenda y'ubururu, yambaye n'agapfukamunwa, yiteze n'akagofero k'umweru. Arimo arakura amenyo umugabo, uwo mugabo aryamye ku gitanda.

Inzu yubatswe neza mu buryo bwiza, ni inzu yubakishijwe ibirahure kuva hasi kugera hejuru, ni inzu igeretse kandi imbere y'iyo nzu hasi hari indabo zihateye, nanone imbere gato hari umuhanda.

Umugabo yambaye agapira k'umukara, ni umugabo w'inzobe, arasamye, afite amenyo meza y'umweru, umusatsi we urogoshe, nta musatsi afite.

Abantu bambaye ubupira busa bw'icyatsi, bwanditsweho ijambo ngo tubiteho, inyuma yabo hari abandi bambaye imipira y'umweru, bambaye n'ubupfukamunwa bari kubakura amenyo.

Abana b'abanyeshuri beza cyane barishimye ni abana benshi bambaye imyenda y'ishuri bamwe bambaye imipira, abandi ntayo bambaye bose bafite uburuso bw'amenyo, babiri bafashe ibikombe birimo amazi bari koza amenyo.

Umukobwa w'inzobe, yambaye igitambaro mu mutwe, yambaye n'isengeri y'umweru, afite uburoso bw'amenyo bw'ubururu, ari koza amenyo.

Umukobwa ari kumwe n'umusaza, uwo musaza arashaje cyane, uwo mukobwa yambaye imyenda y'ubururu y'akazi, arimo arakinisha uwo musaza, umusaza afashe imbago yicaye mu ntebe.

Abana, abagore, abasaza, baricaye, bicaye ku ntebe barishimye bari gukina, bicaye mu nzu nziza hejuru hari itara riri kwaka.

Umusaza n'umukecuru, bari kumwe n'umusore ukuze ariko atari cyane n'undi mukobwa ukuze mu rugero n'umwana muto. Bari hamwe, barafatanye, ikigaragara cyo barishimye cyane.

Umukobwa uboshye imisatsi yicaye hasi ari kunanura amaguru yambaye ipantaro y'umutuku n'umupira ufite ingofero aho hantu yicaye hari ubusitani bwiza bw'indabo inyuma ye nanone gato hari ibiti bitoshye bihari.

Abagore bakuze bari kugendera ku murongo bishimye, abenshi bambaye imipira y'umweru, abandi bambaye ubupfukamunwa, abatambaye ubupfukamunwa ni bake, inyuma yabo hari igiti gifite amababi meza n'amashami meza.

Umugabo ushaje cyane, afite imvi z'umweru, arahagaze yambaye agapira k'umweru n'ikabutura y'umukara, ahagaze ahantu inyuma ye hari ishyamba rinini cyane ry'ibiti.

Umukecuru n'undi mugore baricaye, umukecuru afashe igikombe cy'amazi, undi mugore bari kumwe, afashe ibinini mu ntoki. Hirya yabo gato, hari igikombe kirimo ururabo rwiza.

Abantu babiri bakuze cyane bashaje ni umugabo n'undi mugore, umugabo arashaje n'uwomugore arashaje bicaye ahantu mu cyumba cyiza kirimo intebe nziza, iyo nzu iteye irangi ry'umweru, umugabo afashe imiti mu ntoki, imbere yabo hari ameza ateretseho ikirahure kirimo amazi.

Umukobwa, umukecuru ndetse n'undi musore, bari ahantu mu cyumba, umusore afashe isahane iriho imigati ndetse n'ibindi byo kurya, umukobwa ari kumwarurira kuri iyo sahane.

Umugore ateze igitambaro, yambaye indorerwamo z'amaso, yicaye ahantu ku gatebe, inyuma ye hari undi mukobwa umufashe uri kumusekesha, amufashe ku rutugu, barimo gukina.

Umusaza ari kumwe n'undi mugabo bafatanye ku ntugu, umusaza yambaye ingofero, bari kugendera mu muhanda w'amapave, inyuma yabo hari ishyamba rinini cyane.

Umusaza yambaye indorerwamo z'amaso ari kumwe n'umugore n'uwo mugore yambaye indorerwamo z'amaso bari kurya, imbere yabo ku meza hari ibyo kurya byinshi bitandukanye.

Abantu babiri, hari umukobwa afite imisatsi miremire y'umukara, ari kumwe n'umukecuru, umukecuru arambuye amaboko, umukobwa ari kumugorora ayo maboko.

Abakecuru batari benshi cyane, kandi na none batari bake, bamwe baricaye ahantu hasi, abandi bicaye ku ntebe z'umweru. Inyuma yabo hari insina z'urutoki, ruriyo rwinshi cyane.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu yicaye ku gatebe, ari kumwe n'undi mugore wambaye ishati y'icyatsi, ari kumufungura amapesi, bombi bambaye ubupfukamunwa.

Umusaza n'umukecuru, barafatanye bari guhoberana barishimye cyane. Barashaje cyane ku buryo bafite imvi mu mutwe. Umukecuru we yiteze igitambaro gitukura mu mutwe.

Umugore ubyibushye cyane, ari mu myitozo ngororamubiri yarambuye ukuguru, arambura n'amaboko ayashyira ku kuguru, ukundi kuguru kumwe yakwirambitseho arakwicariye afite imisatsi miremire ndetse arahumirije.

Umugabo yambaye indorerwamo z'amaso, arishimye cyane ari guseka, afatanye ikiganza n'undi mugore w'umuzungu, ufite imisatsi myiza miremire. Ikigaragara cyo barishimye cyane kuko bari guseka.

Mu muhanda harimo ingeri z'abantu benshi ariko imbere hari abakecuru babiri bari kugendana bafashe udukoni, bakenyeye imikenyero bambaye n'udupira tw'umutuku ariko umwe ateza igitambaro cy'umukara undi nta gitambararo ateze.

Umusaza ushaje cyane ufite n'imvi ari kumwe n'umukecuru nawe ushaje cyane ufite n'imvi, baricaranye bari ahantu mu cyumba cyiza giteye irangi ry'umweru, imbere yabo hari ameza, kuri ayo meza hateretseho ururabo kuri ayo meza nanone hateretseho ikirahure cy'amazi, umusaza afite ibinini mu ntoki agiye kunywa.

Umukecuru mwiza cyane, ufite imvi z'umweru, ari kumwe n'undi mugore, baricaye barishimye, bicaye ahantu mu nzu nziza, ifite intebe nziza, yubatswe mu buryo bwiza.

Umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, yicaye ku ntebe y'umweru, ari kumwe n'undi musaza, wambaye ishati nawe yicaye ku ntebe y'umweru, umukobwa arimo arapima umuvuduko uwo musaza.

Abantu batandukanye bari mu cyumba, harimo abazungu n'abirabura, hariho n'abandi babiri bicaranye, bari kurya, harimo umuzungu w'umugore n'undi musaza w'umwirabura.

Abasaza babiri bahagaze, bakenyeye imikenyero itandukanye, umwe akenyeye umukenyero w'umukara, undi akenyeye umukenyero w'umweru, bombi bambaye ingofero z'amabara atandukanye, ariko ni ubwoko bumwe, umwe yambaye indorerwamo z'amaso.

Umukecuru ukuze cyane, aricaye, imbere ye ku meza hari ikirahuri cy'amazi, hari n'amasahani ariho ibiryo ndetse ari kugenda yiyarurira.

Abantu babiri, umusaza n'umukobwa bombi bicaye ku ntebe, umusaza yambaye indorerwamo z'amaso, umukobwa afite imisatsi miremire y'umukara. Uwo mukobwa ari gupima umusaza umuvuduko.

Abantu babiri, bombi baboshye imisatsi, umwe ni umugore arashaje, yicaye ku ntebe, undi ni umukobwa arahagaze yamuturutse inyuma, amufashe mu bitugu.

Umukecuru ukenyeye umukenyero, ni umukecuru ushaje cyane afite imvi, ari gukoresha indangururamajwi, inyuma ye hari ibiti ndetse n'inyubako iteye irangi ry'umweru, hirya ye na none hari imodoka zihagaze ndetse n'ikindi cyapa cy'umweru.

Umukobwa yambaye itaburiya y'umweru afite imisatsi miremire ari kumwe n'undi musaza wambaye indorerwamo z'amaso umusaza yicaye ku gitanda, hejuru y'icyo gitanda hariho inzitiramubu y'umweru umukobwa ari gufata umusaza mu mugongo.

Umugore afashe imiti mu ntoki n'ikaramu, ari kumwe n'undi musaza wambaye indorerwamo z'amaso, imbere yabo hari ameza ateretseho igikombe cy'amazi, arambitseho nanone igitabo.

Umugore yambaye imyenda y'ubururu yicaye ku ntebe, hari n'undi mugore ubana n'ubumuga bwo kutagenda, uwo mugore wambaye imyenda y'ubururu ari kumusuzuma umuvuduko.

Abantu bahagaze mu murima uhinzwemo amasaka, ibigori ndetse n'ibindi, barishimye cyane, bashyize amaboko hejuru, abandi bashyize hejuru telefone.

Abagore batatu, babiri bambaye indorerwamo z'amaso undi ntazo yambaye, babiri nanone bambaye ingofero, Umwe wo hagati nta ngofero yambaye, bafashe telefone mu ntoki bose bari kureba muri iyo telefone.

Umugabo n'umugore bari gukora imyitozo ngororamubiri, barishimye cyane bambaye imyenda yabugenewe yo gukorana imyitozo ngororamubiri, bombi bambaye isaha ikigaragara cyo barishimye cyane.

Abaganga bari gufasha abarwayi. Bari kubatera inshinge, imbere yabo ku meza hari ibikoresho byinshi bifashisha mu gufasha abarwayi.

Abantu benshi bicaye ahantu mu cyumba ni ingeri zitandukanye, imbere yabo hari abandi bantu bicaye ku ntebe harimo umugore umwe n'abandi bagabo batanu, inyuma yabo gatoya hari igipapuro kiriho amashusho y'abantu bagiye batandukanye.

Abagore batatu n'abagabo batatu barahagaze barishimye. Iruhande rwabo hari ururabo ruhari. Nanone inyuma yabo hari igishusho kiriho ibirangantego bitatu.

Abagore batatu bambaye ubupfukamunwa bose, umwe yambaye ijiri y'umukara, undi yambaye imyenda ijya gusa ubururu, undi yambaye imyenda ijya gusa icyatsi, bahagaze imbere y'inzu kuri iyo nzu hari ibishushanyo byinshi bihari.

Umugore n'umugabo bari ahantu imbere y'inyubako, inyuma yabo buri wese hagiye hariho ibendera, bafashe igipapuro cyanditseho amagambo ngo: "Twisuzumishe igituntu, kiravurwa kigakira".

Icyumba cyicayemo abantu batari benshi, bicaye ku ntebe z'umutuku, hari umuntu uri gukoresha mudasobwa uri muri bo, hari undi uhagaze imbere yabo ari kubaganiriza ufashe indangururamajwi.

Abantu benshi cyane higanjemo abambaye imyenda y’imyeru hejuru, bafashe igipapuro cyanditseho amagambo avuga ngo: Rubyiruko nimwe hazaza heza h’uru Rwanda! Irinde virusi itera sida, ipimisha uyu munsi.

Abantu benshi cyane b'ingeri zitandukanye, harimo abagore, harimo abagabo, abazungu, abirabura barishimye cyane bazamuye amaboko hejuru, abo bose kandi bambaye amakarita mu ijosi.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bicaye ahantu mu cyumba, bambaye imyenda itandukanye ariko bose bambaye ubupfukamunwa, imbere yabo ku ntebe aho bicaye hateretseho umuti wa sanitayiza, nanone imbere yabo hari umuganga wambaye imyenda y'umweru uri kubavura.

Umugabo w'inzobe cyane yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, ahagararanye n'undi mukobwa wirabura ufite imisatsi miremire wambaye agakanzu k'amabara menshi, barahagaze bambaye amakarita mu ijosi, bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho amagambo atandukanye.

Abantu bambaye imyenda minini cyane ibapfutse, bambaye ubupfukamunwa hejuru ku mutwe, bambaye n'ingofero, bari mu nzu irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo na tereviziyo n'andi mamashini akoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abakobwa benshi batari benshi cyane kandi batari bake cyane, bambaye imipira y'umweru n'amapantaro afite amabara atandukanye, bagiye bahagaze mu kantu gafite impande enye, abantu bo ku ruhande ni bo bagiye bafashe nko ku ruhande rw'ako kantu bahagazemo.

Abantu benshi cyane, ni abakobwa gusa, bambaye imyenda y'umweru, bicaye ahantu heza, mu ntebe nziza z'umweru, imbere yabo hari umukobwa uhari uri kubaganiriza, ari gukoresha indangururamajwi, yambaye ipantaro y'umweru ndetse n'agakoti k'umukara, nanone iruhande rwe, hari igipapuro gishushanyijeho abantu batatu.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye b'ingeri nyinshi zitandukanye, bicaye ahantu mu cyumba, bicaye ku ntebe z'umutuku, hari abandi bicaye imbere bari gutanga ikiganiro.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bicaye ahantu mu cyumba cyiza barimo abambaye imyenda y'umweru nibo benshi, abandi bambaye isanzwe, imbere y'abo bantu hari intore ziri guhamiriza.

Icyumba cy'abarwayi harimo abaganga bambaye imyenda y'umweru, baripfukiranyije hose guhera hasi kugeza hejuru, harimo n'abarwayi baryamye ku bitanda, harimo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse n'ibindi.

Icyumba kivurirwamo abarwayi, muri icyo cyumba harimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibitanda, harimo ibindi bikoresho bashyiramo imyanda, harimo n'ibindi byinshi byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse no kubitaho.

Ibitaro byiza byubakishijwe amatafari ahiye, bikikijwe n'ubusitani bw'indabo zitandukanye, hirya yaho hari ibiti biteye, nanone kuri ibyo bitaro hejuru hari amagambo yanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Ivuriro ryiza cyane, ni ivuriro rinini ryubakishijwe amabati y'umweru, nanone yubakishijwe amatafari ahiye, kuri iryo vuriro hari ubusitani bwiza, imbere y'aho hari amahema y'umweru yubatseho. Kuri iryo vuriro nanone hari ibyapa bibiri bihari.

Umuganga yambaye agapfukamunwa ari mu cyumba cy'abarwayi, muri icyo cyumba hari ibikoresho byinshi byifashishwa mu gufasha abarwayi nk'ibitanda n'ibindi bikoresho harimo igitanda kiryamyeho umurwayi ndetse hari n'abandi bantu babiri bari kwinjira muri icyo cyumba.

Inyubako nyinshi zitandukanye ziri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, muri izo nyubako hari abantu bicaye mu ibaraza, hari n'abandi bantu bari kugenda muri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande rw'umuhanda hari ibitaro byubakiye neza, muri ibyo bitaro harimo igiti kinini cyane gitoshye, imbere y'ibyo bitaro hari ibyapa bitatu.

Inyubako nziza cyane, zikorerwamo ubuvuzi butandukanye, muri izo nyubako harimo ubusitani bw'indabo nziza cyane, hari n'uduhanda tugiye duciyemo, tugiye mu miryango itandukanye.

Inyubako nziza, ikorerwamo ubuvuzi. Yubatswe mu buryo bwiza cyane. Hariho umuhanda wa kaburimbo imbere y'iyo nyubako kandi na none hasi hari imodoka ihagazeho.

Abaganga bari mu cyumba, ni benshi cyane, harimo abakobwa, harimo n'abasore. Bambaye amataburiya y'umweru ndetse hasi bambaye imyenda y'imikara n'inkweto zifunze, muri icyo cyumba kandi nanone harimo ameza magari cyane y'umweru, harimo n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu kuvura abarwayi.

Icyumba cy'abarwayi, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi, hari n'ibindi bikoresho bya mudasobwa, n'ibindi by'ikoranabuhanga bifasha abavuzi kuba bafasha abarwayi.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi harimo abaganga batatu bambaye udupfukamunwa, bambaye n' imyenda y'ubururu, imbere yabo hari umuntu uryamye ku gitanda bamworoshe mu maso bari kumuvura.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, inzu yubatswe neza yubakishije amatafari ahiye, ifite imiryango myiza migari, imbere yayo hari amakaro meza cyane, impande z'iyo nzu hariho indabo nziza cyane.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, yubatswe mu buryo bwiza, irageretse kandi yubatse iruhande rw'umuhanda, muri uwo muhanda hari abantu bari kugendamo, hari n'abandi bantu bambaye amajiri y'umuhondo bari kubaka ndetse bambaye n'ingofero mu mutwe.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ni inzu yubatswe neza mu buryo bwiza, muri iyo nzu harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara ari guhambira inzitiramibu. Muri iyo nzu nanone harimo ibitanda byinshi bitandukanye, harimo igitanda kimwe kiryamyeho umuntu.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bari ahantu mu nzu baricaye, imbere yabo hari amacupa y'amazi, na none imbere yabo hari abandi bantu bari kubaganiriza na bo bicaye imbere, ku meza imbere yabo na bo hariho amacupa arimo amazi.

Icyumba gikozwe neza gifite isuku nyinshi, ni icyumba cy'abarwayi kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse no kubitaho, muri icyo cyumba kandi nanone harimo umurwayi uryamye ku gitanda.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo ubuvuzi. Ni inzu yubatswe mu buryo bwiza bugezweho iteye irangi ry'umuhondo. Imbere y'iyo nzu hari imodoka zihagaze nanone imbere ku ibaraza h'iyo nzu hari abantu benshi bahagaze.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza bugezweho, ni inyubako nini cyane, imbere y'iyo nyubako hariho amatara atandukanye, hariho n'ubusitani bw'indabo.

Icyumba bavuriramo abarwayi, ni icyuyumba cyiza, gisukuye neza, muri icyo cyumba harimo igitanda kiriho umusego, hariho n'ahantu bakarabira amazi.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi, muri icyo cyumba harimo ibitanda bine ariko muri ibyo bitanda nta muntu uharyamye, nta murwayi uharyamye hariho ubusa. Buri gitanda kigiye kirambuyeho umwenda hejuru.

Inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi ni inzu yubatswe neza mu buryo bwiza bugezweho, imbere y'iyo nzu hari umuntu wambaye imyenda y'umweru wipfukiranyije hose no mu mutwe, yambaye n'agapfukamunwa yambaye n'inkweto ndende cyane z'umukara, imbere y'iyo nzu na none hari indobo ziteretseho, indobo y'ubururu n'indobo y'icyatsi.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi, harimo ibitanda bine, ibitanda bibiri bifite amashuka y'umweru, ibindi bibiri bifite amashuka y'ubururu, bibiri biryamyeho abarwayi, ibindi bibiri nta barwayi baryamyeho, inyuma y'ibyo bitanda, hari igipapuro gishushanyijeho abantu.

Inzu igeretse nziza cyane, yubatswe mu buryo bwiza, hasi kuri iyo nzu hari imodoka zihagaze, iruhande rw'iyo nzu nanone hari indi inzu yubakishijwe amakaro yonyine gusa. Hirya yo kuri iyo nzu hari ubusitani bwiza bw'indabo n'icyapa kinini cyane.

Ibitaro bya Ruhengeri ni ibitaro byubakiye byubatswe neza mu buryo bwiza, muri ibyo bitaro harimo ubusitani bw'indabo, hari n'ikindi giti kirekire cyiza gitoshye, ibyo bitaro byegeranye n'umuhanda muri uwo muhanda hari urujya n'uruza rw'abantu bamwe bikoreye imizigo, abandi bari kugenda nta kintu bikoreye, harimo n'imodoka.

Ibitaro byiza cyane byubatswe neza mu buryo bwiza, ni inzu yubatswe igeretse, isakaje amabati meza y'ubururu, imbere y'iyo nzu hari idarapo ry'Igihugu, nanone imbere hari umuhanda w'amabuye uhari, hari n'indabo ziteye aho ngaho imbere, ku rugi rwo ku gipangu handitseho hejuru ngo ikigo nderabuzima cya Kanyinya.

Icyumba kirimo abantu bambaye imyenda y'umweru, harimo abakobwa, harimo n'abasore, imbere yabo hari ameza ateretseho icupa ribamo ji n'ibindi bikoresho.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi, hari imiryango itandukanye bavuriramo, harimo amatara meza ari kwaka, inzu yubakishijwe amakaro meza y'umweru, mu cyumba kimwe harimo intebe iri guhinguka y'umukara.

Abaganga batanu bambaye imyenda isa y'akazi, babiri muri bo bambaye amakarita y'akazi mu ijosi kandi bose bambaye ubupfukamanwa, bahagaze imbere y'inyubako yanditseho ijambo ngo inzu y'ababyeyi.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bari iruhande rw'inzu, inzubakishijwe amatafari ahiye n'amabati y'umutuku, imbere gato h'iyo nzu hariho umugore uhagaze imbere y'imodoka y'umukara na none aho ngaho hafi aho y'iyo nzu hariho ibiti bitandukanye.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye barahagaze batonze umurongo, imbere y'abo hari abandi bantu bicaye ku ntebe, imbere y'abo bantu bicaye hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, na none iruhande rwabo hari umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda ubegereye.

Urupangu rurerure rwubakishijwe amatafari ahiye, uruhande rw'urwo rupangu, hariho icyapa cy'umweru. Kuri icyo cyapa hari amagambo yanditseho ndetse nko hejuru ku ruhande hari ikirangantego cy'u Rwanda. Imbere gato y'icyo cyapa hari ibiti bihari birebire, byiza, bitoshye.

Umuhanda w'amapave uri kugendwamo n'umusore uteruye ibase n'undi mugabo ufashe ukuboko umwana, ku ruhande rumwe rw'uwo muhanda hari insina z'urutoki, hari n'indabo ziri aho ngaho hirya yaho ku rundi ruhande hari ubusitani bwiza bw'indabo, inyuma gato hari amazu meza yubatse.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi butandukanye, ni inyubako yubatswe neza cyane, irageretse, hejuru hari amatara nanone hasi ku ruzitiro hari imodoka bari gufungurira, hari n'izindi zihagaze, imbere y'iyo nyubako ndetse hari n'icyapa cy'umweru kiri mu miryango.

Inyubako zikorerwamo ubuvuzi butandukanye. Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, imbere y'izo nyubako hari ubusitani bw'indabo ndetse hari n'ikindi giti kirekire gitoshye.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bwiza bugezweho irageretse, ni inzu nini cyane, imbere y'iyo nzu hari ubusitani bw'indabo, hari ibiti byiza ndetse hari n'imodoka ihagaze iruhande rw'iyo nzu.

Abagore babiri, umwe yambaye indorerwamo z'amaso aboshye n'imisatsi, undi afashe umwana mu ntoki. Bahagaze imbere y'inyubako nziza, iteye irangi ry'umuhondo, ariko atari umuhondo cyane.

Inyubako nziza zitandukanye, zubatswe mu buryo bwiza kandi zubatse imbere y'umuhanda, ni uruhande rw'umuhanda, imbere y'izo nyubako hari imodoka zihagazeho ndetse hari n'abantu bari kugenda imbere aho mu muhanda, hari n'ibyapa biri mu muhanda ndetse n'ubusitani bw'indabo.

Mu nzu harimo abantu batandukanye, hariho abicaye, hari n'abandi bari gutanga serivisi, kuri abo bari gutanga serivisi imbere yabo hari umugabo uhagazeho bari kwakira, muri iyo nzu hariho ibyapa bitandukanye, harimo n'indabo nyinshi.

Igiti kinini cyane gitoshye, ni igiti gifite amashami menshi. Munsi y'icyo giti, hari ibindi byatsi bigufi byagiye bimeraho kandi nanone munsi y'icyo giti, hari umugabo uhicaye.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi, inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza bugezweho, hejuru y'iyo nzu hari amagambo yandikishijwe ikaramu y'ubururu, na none imbere hasi kuri iyo nzu mu muryango, hari ubusitani bw'indabo n'ibindi biti bihari birebire.

Ibitaro byiza bya Kabutare, ni ibitaro byubakishijwe amatafari ahiye n'amabati meza y'ubururu, imbere y'ibyo bitaro hari abagabo bahahagaze ndetse n'abagore, bose bambaye ubupfukamunwa ndetse impande y'ibyo bitaro hari ubusitani bw'indabo n'ibindi biti byinshi bitandukanye.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo ubuvuzi, yubakishijwe amatafari ahiye ndetse mu buryo bwiza bugezweho, imbere iyo nyubako izengurukijwe n'ubusitani bw'indabo.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza, yubakishije amabati meza agezweho y'umutuku, iteye n'irangi ry'umweru ritari umweru wererutse, hejuru kuri iyo nzu hari abantu bahagazeho, hari n'undi muntu uri kugendera imbere yayo hasi ku mapave, hirya yaho imbere gato hari abantu babiri bafite indabo, na none inyuma hari ishyamba rinini cyane.

Umuhanda w'igitaka urimo amabuye, muri uwo muhanda harimo icyapa kirimo amabara abiri atandukanye, harimo ibara ry'ubururu bwijimye n'umweru, hejuru mu mpande y'icyo cyapa harimo ikirangantego cy'u Rwanda, hirya y'icyo cyapa hari inzu nziza nanone hirya hari ibindi biti bihari.

Umugore yambaye itaburiya y'umweru yambaye n'agapfukamunwa, afite imisatsi iboshye ari gupima umwana umuvuduko, yicaye ku dutebe twiza tw'umweru, inyuma y'uwo mugore hari akazu karimo imiti myinshi itandukanye.

Abagore batatu bicaye ku ntebe ariko hari babiri bicaranye, n'undi umwe wambaye agapfukamunwa n'indorerwamo z'amaso, yambaye n'ibikoresho bambara mu ntoki mu biganza, arimo arapima umugore umwe, ari kumupima umuvuduko.

Inyubako nyinshi zitandukanye, muri izo nyubako hari zimwe zubakishijwe amatafari ahiye, muri izo nyubako hagati hari umuhanda w'igitaka abantu bari kuwugendamo, hari n'umuntu ufite igare uri kuwugendamo, kuri izo nyubako hari ibiti byinshi birebire bitoshye.

Inyubako zitandukanye, hari inyubako imwe iteye irangi ry'umweru hari n'indi nyubako y'amabuye. Hagati hari umuhanda uciyemo, harimo abagenzi babiri. Imbere y'iyo nyubako iteye irangi ry'umweru, hari idarapo ry'igihugu ndetse hari n'igiti gitoshye.

Inzu nziza cyane zubatse mu buryo bwiza bugezweho, zisakaje amabati y'umutuku meza, imbere y'izo nzu hagiye hariho ubusitani bw'indabo bwiza cyane, inzu imwe iteye irangi ry'umweru indi nzu iteye irangi ry'umuhondo.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi, ni inzu ndende cyane, imbere y'iyo nzu hahagazeho amamoto menshi atariho abantu, hariho n'undi mumotari uhahagaze udatwaye umugenzi, hariho n'undi mugabo uhahagaze wambaye umupira w'umweru, kuri iyo nzu nanone hariho icyapa cy'ibara ry'umutuku wijimye.

Ababyeyi benshi bafite abana batandukanye, hari umubyeyi umwe uhagaze wambaye ishati y'umweru, ari gupima umwana, ni umwana mutoya bari kumupima ku munzani umanitse hejuru.

Inyubako nziza ikorerwamo ubuvuzi inyubako yubatse neza yubakishijwe ibirahuri, imbere yayo hari indabo ziteyeho ku ruhande rumwe hateye ururabo no ku rundi hari urundi rurabo ruteye.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza bugezweho bw'ubuhanga, inzu iteye irangi ry'umuhondo, irimo udutebe twinshi twiza tw'umukara imbere hari akantu k'umweru bahagararaho iyo bari kuvuga ijambo.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo ibitanda, intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gufasha abarwayi.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibikoresho bitandukanye harimo igitanda kiryama umurwayi ariko nta murwayi uhari kiho ubusa, kirambuyeho ishuka y'umweru harimo na mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gufasha abarwayi.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye, inyubako nziza cyane zifite imiryango myinshi cyane imbere y'izo nyubako hari abantu bahagaze, ndetse na none imbere y'iyo nyubako hari ubusitani bw'indabo.

Inyubako nziza yubakishijwe amabati y'umutuku agezweho, iteye irange ry'umweru n'umukara, inyubako ngari cyane imbere ku muryango ibumoso n'iburyo hariho indabo ziri mu bikombe, nanone mu muryango hari umugabo uri gusohoka ndetse n'imbere ku muryango, hariho amabendera abiri rimwe ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi, ni inzu yubatswe neza iteye irangi ry'umweru, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye bifashisha bafasha abarwayi, harimo nk'ibitanda, hari ibitanda bibiri biriho ubusa bitariho umuntu.

Inyubako igurishirizwamo imiti itandukanye, muri iyo nyubako harimo abantu bahagaze bari kugura imiti, hari n'undi mucuruzi urimo wambaye itaburiya y'umweru. Ku ruhande rw'iyo nyubako hari umumotari uhagaze ndetse n'imodoka ihagaze aho ngaho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza bugezweho, muri iyo nzu harimo intebe nziza, zicayeho abantu batari benshi, ndetse muri iyo nyubako hari n'amatara ari kwaka.

Inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi yubatswe neza cyane mu buryo bugezweho irageretse, imbere yayo hari amatara meza agezweho kandi na none imbere yayo hari ibyatsi byiza bitoshye bisa neza.

Icyumba kirimo abarwayi barwaye, muri icyo cyumba harimo babiri baryamye ku bitanda ariko umwe ari kwitabwaho na muganga, umuganga ari kumwitaho yambaye itaburiya y'umweru.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi muri iyo nzu harimo ibiganda byinshi bitandukanye, buri gitanda kigiye gifite inzitiramibu yacyo, muri iyo nzu harimo umuganga umwe wambaye agapfukamunwa uhagaze ahantu mu idirishya.

Ibitaro byiza byubatswe mu buryo bwiza bugezweho, imbere y'ibyo bitaro hari ubusitani bw'indabo ndetse n'igiti kirekire giteye imbere ku mapave ndetse iyo nyubako, iteye irangi ry'umweru ndetse n'andi marangi atandukanye.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibitanda biryamaho abarwayi, harimo mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gufasha abarwayi.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, kuri iyo nyubako hari ikigega cy'umukara kijyamo amazi, nanone hari n'igiti giteyeho kitari gito kandi kitari kinini, inyuma y'iyo nyubako hari ibiti byinshi bikikije iyo nyubako.

Abaganga bambaye imyenda y'umweru, bari kuvura abantu batandukanye, harimo abafite ubumuga, hari n'abandi barwaye ubundi burwayi butandukanye, bose bambaye ubupfukamunwa. Imbere ku meza hari amacupa arimo umuti wa sanitayiza ndetse n'indi miti.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, ni inzu yubatswe neza mu buryo bwiza, imbere yayo hari abantu bahagazeho bari kuganira, kandi na none hari imodoka ihagaze imbere y'iyo nzu na none hari ubusitani bwiza cyane bw'indabo.

Icyumba kirimo isuku nyinshi cyubatswe neza kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, hari ibitanda biryamaho abarwayi, hari mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gufasha abarwayi.

Umuganga yambaye itaburiya y'umweru, yambaye agapfukamunwa k'umukara n'indorerwamo z'amaso, afite imisatsi iboshye, ahagaze ahantu, imbere ye hari mudasobwa ari gukoresha.

Ibitaro byiza bya kigina ku irembo ry'ibyo bitaro hariho umugore uhetse umwana none kuri ayo marembo hariho akazu gatoya kabamo abashinzwe umutekano.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza, irageretse iteye irangi ry'umweru ariko atari umweru wererutse cyane, imbere yayo hari icyapa kinini kirimo amabara atandukanye, nanone hirya yaho hari ibiti byiza binini, aho ngaho kuri iyo nzu hari insinga z'amashanyarazi.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari imbuto nyinshi zitandukanye nk'imineke, imyembe, pome, amatunda n'ibindi.

Umugabo ubyibushye, yambaye agapira k'amaboko magufi gasa n'umukara ariko atari umukara cyane, yambaye isaha ku kuboko y'umukara, ari kunywa amazi akoresheje icupa.

Umukobwa yambaye ipantaro y'umukara, inkweto zifunze z'umweru n'agasengeri k'umukara, ari mu myitozo ngororamubiri, ari kunanura amaguru n'amaboko.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi, iyo nzu irimo abantu benshi batandukanye, harimo n'abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru, bari kuvura umuntu wavunitse uryamye ku gitanda yavunitse ukuguru.

Abasore babiri bambaye amajire y'umutuku, hejuru nko ku rutugu hashushanyijeho agasaraba, bateruye umusore umwe bigaragara ko yavunitse. Inyuma yabo hari abandi bantu bambaye imipira y'umweru bahagaze ahantu mu biti.

Ibikoresho byinshi bitandukanye harimo umuti w'amenyo, amavuta, umukasi ndetse n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura umuntu ufite imvune.

Umukobwa yambaye ibikoresho by'akazi mu ntoki mu biganza. Yambaye agapfukamunwa n'imyenda y'ubururu y'akazi. Imbere ye hari ameza arambitseho mudasobwa ndetse n'amakaye.

Umusore ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'umukara n'ikabutura y'umukara n'inkweto zifunze zirimo amasogisi y'umweru, arimo kwikanda ku mavi niho arimo kugorora.

Abana benshi cyane bari ku kibuga bakoreraho imyitozo ngororamubiri, imbere hari umuntu uri kubatoza ari kubakoresha, hirya yabo hari ibiti binini ndetse n'urutoki.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri, yambaye n'isaha, aboshye imishatsi, arahagaze yambaye akantu mu kuboko k'umukara.

Umusore yambaye isengeri y'umukara, yambaye n'ikabutura isa n'icuyutse, aricaye yicaye mu byatsi ari kwikanda ku itako.

Abasore babiri bambaye ubupira busa bw'ubururu, bambaye n'amakabutura asa y'umukara, umwe yavunitse undi ari kumukanda, imbere yaho ku ruhande harambitseho umupira w'amaguru urimo amabara y'umweru n'umukara.

Igipapuro kiriho ibishushanyo bitandukanye. Hariho ishu, hariho ilonji, hariho karoti, hariho pome, hariho urunyanya ndetse n'izindi mbuto nziza. Kandi na none hariho umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari kwirukanka.

Imodoka itwara abarwayi iri mu muhanda wa kaburimbo, imbere gatoya hirya y'umuhanda hari ibiti byinshi bitandukanye ndetse muri ibyo biti hari n'inzu zubatsemo.

Ibikapu bitatu by'ibara ry'umutuku, muri ibyo bikapu uko ari bitatu, bibiri birafunguye. Muri ibyo bi bifunguye kimwe harimo imikasi n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura, ikindi nacyo kirimo indi miti myinshi itandukanye yifashishwa mu buvuzi.

Abagabo babiri bambaye ubupfukamunwa busa hari n'undi mugore wambaye agapfukamunwa k'umukara, n'undi mugore wambaye ibitenge ufashe umwana uwo mwana afashe bari kumumurika mu kanwa.

Umusore n'umukobwa bari mu myitozo ngororamubiri, bombi bambaye amasengeri yabugenewe gukorana imyitozo ndetse no hasi bambaye amakabutura yabugenewe, bombi bafashe amacupa arimo amazi.

Ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, hari amajeri, hari amagi, hari imigati, hari amashu, hari ibitunguru, imineke, n'ibindi byinshi by'imbuto.

Abaganga benshi, bari ahantu mu cyumba, bambaye ubupfukamunwa, bambaye n'ingofero, bari ahantu mu cyumba, imbere yabo ku meza, hari ameza ariho igitambaro cy'ubururu.

Umuti uri mu gikombe, harimo n'ikiyiko, hirya y'aho hari undi muti w'ibibabi ndetse na tangawize.

Inyubako igurishirizwamo imiti itandukanye, muri iyo nyubako harimo imiti myinshi cyane y'ubwoko bwinshi kandi na none harimo abacuruzi bari kwiyicuruza ndetse n'abaguzi.

Ahantu haba imiti ya kinyarwanda itandukanye, hariri mu macupa, hari mu dugarito, ni myinshi cyane iratandukanye kuko ivura ibintu bitandukanye.

Amacupa atatu ari mu mabara atandukanye, ni manini ariko ntabwo ari manini cyane, harimo umuti wa kinyarwanda. Iruhande rwayo hari andi y'umweru ariko yo ni matoya na yo arimo umuti wa kinyarwanda. Hasi hari ibikakarubamba bibiri.

Inzu ibamo imiti itandukanye y'ubwoko bwinshi, hari iri mu ducupa, hari iri mu dukarito harimo n'amazi bacuruza, muri iyo nzu harimo umugore wambaye itaburiya y'umweru n'undi wunamye.

Umugore yambaye imyenda y'umweru afashe n'igikapu mu ntoki ari gusoroma umuti w'ibibabi muri uwo muti hateyemo urutoki.

Umugabo ari mu nzu nziza cyane yubatswe neza, yicaye ku gatebe k'umukara, iruhande rwe hari utundi dutebe tw'umukara turiho ubusa, imbere ye hari ameza ateretseho imiti mu ducupa tubiri.

Intebe iteretseho isahane iriho ironji rikase, kuri iyo sahane nano hateretseho igikombe kirimo umutobe w'ironji ndetse n'ironji rikase, kuri iyo ntebe nanone, hariho ironji na tangawizi.